Kamera ibiri ziri ku kantu gafite ibara ry'ubururu n'umukara, zigenda zifata uko abantu bagiye baci baciye aho ngaho, ikirere gisa n'ubururu ciza cane.

Abagabo babiri bambaye amasarubeti g'umukara n'icatsi, bari kwigisha abantu uko bazimya umuriro wo ku mashiga ya gazi, but akoresheje kizimyamwoto. Inyuma yabo hari abandi bambaye imyenda ifite ibara ry'ubururu, biteze n'ingofero basa nk'abasikirite.

Umupolisi wambaye impuzankano, ikoti ry'icyatsi kibisi, harimo n'umweru, afite imbunda n'ingofero, yazamuye ukuboko yereka imodoka aho zigomba kunyura, akoresheje ibyerekezo by'umuhanda, hagati harimo imikindo, hirya hari imodoka zijya mu byerekezo bitandukanye, n'inzu ya etage itagaragara neza.

Abadasso bambaye inifomo y'icatsi bicaranye n'abandi bantu imbere ,inyuma yabo hari abasekerite bambaye inifomo za kaki mu gishararaga gifite amashitingi g'umweru nag'icatsi, mu ntebe z'icatsi n'izindi z'umuhondo.

Abadaso bambaye imyenda z'icatsi n'umugabo wicaye hagati yabo wambaye agapira k'ubururu na supuresi n'itiriningi wifashe ku karevuro nk'uwumiwe, mu gisharagati bicayemo harimo na bafure n'umugore wambaye imyenda nk'iy'abayisilamu.

Abagabo bambaye amapingu g'ibyuma mu mipira zifite amabara g'umuhondo, ag'umweru n'ag'ubururu, n'amapantaro g'umuhondo, ag'umukara n'ag'umuho n'ag'ubururu, imbere yabo hari ibikoresho bya kera:uducuma ndetse n'ingofero. Hari n'icyapa gifite amabara g'umweru n'ag'ubururu.

Inzego zishinzwe umutekano w'u Rwanda abasirikare, abaporisi na ribu bahagaze imbere y'icyapa, cyanditseho pase awuti seremoni forumarini porisi.

Abashinzwe umutekano bambaye imyenda y'akazi yo mu bwoko bwa kaki nabote zamabara gicatsi bahagaze ku byatsi mu kibuga ningofero za kake.

Abantu benshi cane bicaye ahantu hamwe, bambaye imyenda zifite amabara gatandukanye, bari gukoma amashi harimo n'umugabo uhagaze n'abandi bahagaze inyuma, harimo n'uwambaye umwenda w'ibara ry'umweru basa nkaho bishimye.

Abagabo bicaye bambaye imipira zifite ibara ry'umweru, uw'undi uhagaze ufite mikorofone, wambaye ishati ifite ibara ry'umweru n'abagore bicaye bambaye umupira gufite ibara ry'umutuku, mu nzu barimo harimo amadirisha y'ikaki.

Umuntu ufite indobo y' icyuma urigusuka itazi mu butaka, ntagaragara nkaho ari umugabo cyangwa umugore, ariko yambaye impeta hariho kapucini hari ibyatsi bitoya.

Ibiseke bitandatu: bitatu muri byo biri kugaragara neza, ibindi bibiri biri kugaragara ibice, icagatandatu kiri kugaragara akantu gatoya ,hirya yaho hari udutako n'utuntu twigose tumeze nk'imiheto tw'umukara.

Ibikoresho byakoreshwaga kera harimo inkoko, urusyo rwabetaga imyaka y'impeke, amasaka biteretse hasi, hasizwe irangi ry'icyatsi agaseke gafite amabara g'umuhondo, n'ag'umukara hirya hariho abantu bahagaze bambaye imyenda y'amabara gatandukanye bari mu mwijima.

Inka z'inyambo ziteze amahembe hirya hari abana bambaye imikenyero z'amabara g'umweru nag'umukara n'abandi bagabo bambaye imikenyero ndetse n'utwitero.

Ihuriro ry'abagore bicaye bambaye imyenda zifite amabara gatandunye ag'icatsi n'ag'ubururu, bari gukora ibikoresho byakoreshwaga kera byimitako ikundwa n'abazungu, ifite amabara gatandukanye ag'umukara, ag'umweru n'ag'umutuku n'ag'umuhondo.

Inzu za kera abami babagamo，zifite uruzitiro rugiye ruzikikije n'uturyango dutoya，hariho n'imbuga ifite ibyatsi by'icatsi n'ibiti birebire， hirya y'aho hari agahanda kameze nka kaburimbo.

Intebe za kera z'inyarwanda ibiri imwe yasadutseho, zegeranye n'iy'intambike, hirya hariho icupa ry'amazi n' inzu y'icondo ifite n'urugi rw'ibiti, fondasiyo idakoze neza.

Inzu yubakishijwe ibiti gusa ni'mbaho gusa. Irimo imyenge hirya no hino, imbere yayo hari ibyatsi birunze ikirundo byumye.

Umugabo wambaye imyenda y'abami n'ikamba mu mutwe, ufite imyenda ifite amabara y'umweru n'ay'umukara.

Ibikoresho bya kera bakoreshaga by'umuziki, harimo ingoma ntoya, ingoma nini, byose bibambwe ku kibambasi c'imbaho ntoya, ndetse bizirikishijwe imigozi mitomito.

Umukobwa n'umuhungu b'abageni umuhungu wambaye amarinete n'ijire n'ishati y'umweru, bicaye ku buriri barimo baranywa amata banywera mu byatsi, hirya hariyo igikuta c'umuhondo.

Abantu benshi bambaye imikenyero zifite amabara g'umukara n'ag'umweru, n'amashati g'umukara. N'umugore wambaye ibitenge by'amabara g'umuhondo n'ag'ubururu n'ag'umweru. Bicaye ku birago bibohesheje udukangaga by'amabara g'umuhondo n'amabara g'umukara n'ag'umweru.

Udukoresho twa kera tugaragaza umuco turi mo utwibo, uduseke, amayogi, ariko bigaragara nk'aho ari utw'ababyinnyi kuko ibikoresho birimo ni byo bifashisha babyina bigaragaza umucyo wa kera.

Umugore wambaye ishati irimo amabara g'ubururu, ufashe ibiryo ku makoma g'urutoki g'icatsi by'ubwoko butandukanye :ibijumba bidatonoye, ibitoki ,n'ibihaza n'ibishimbo, n'imyumbati.

Uducuma dutatu turi mu bikoresho bya kera, tubiri tuzirikanwe umugozi turambitse hasi ku byatsi. Hirya yaho harimo ibitambaro ndetse harimo n'akayira gatandukanya ibyo byatsi biriho uducuma n'ibindi byatsi byo hirya yabyo.

Ikigega kera bakoreshaga bahunika imyaka y'ibinyampeke, hamanitseho ibigori, gisakajwe ibyatsi byumye, hirya hari urutoki ruri kugaragaza amababi g'icatsi gusa, ndetse n'urutsinga ruciyeho agashamba karimo ibiti by'indumburabutaka.

Udukono tubiri kamwe gacuritse akandi gacurukuye; duteretse mu nzu irimo umwijima, igihande kimwe ikindi gihande kirimo umuco.

Isekururo idafite akantu ko gusekurisha ,bifashishaga mu gihe cya kera barimo basekura: isombe ,basekura n'ibigori ,cangwa se basekura ifu y'imyubati igihe bashakaga gukora umutsima wo mu bugari.

Ababyinnyi biteze urugara, inyuma yabo hari ingoma enye, ebyiri ziri kurebeka neza, hari n'amapoto y'insinga y'icyuma, nay'igiti . Ibyatsi birebire by'ibiti, bari kubyinira ku mbuga y'isima.

Ababyinnyi benshi cane bambaye imikenyero gufite ibara ry'ubururu, nugundi gufite ibara ry'umuhondo, bafite ingoma n'umukobwa wambaye umwenda gufite ibara ry'umutuku, bambaye n'ubusa hejuru.

Inzu ifite amadirisha hariho ingoma imanitse, n'igikuta kiriho ibara ry'icatsi ku matafari mbere yaho hariyo akajaride karimo amabuye matoya, ndetse n'amabuye manini.

Umuntu wambaye akantu k'umushumi mu zosi ,ufite igikoresho cy'umuziki wo hambere kimwe twitaga umwirongi. Gishobora kuba gikozwe mu ihembe kuko abakera babikoraga bashaka kumvikanisha umuziki wabo.

Ababyinnyi b'abakobwa bambaye imyenda yo kubyinana zifite amabara gagiye gatandukanye ag'umukara n'ag'umuhondo bafite n'utuntu tw'urugori mu mitwe yabo.

Umuntu ufashe igikombe kirimo ikigage ahita akwibutsa uko aba kera basabanaga mu cyaro cyane cyane， kuko niho abantu bahuriraga basangira ibyabo ndetse bigaragaza n'umuco wo hambere w'abanyarwanda.

Ababyinnyi b'abakobwa bari imbere, bambaye imikenyero zifite ibara ry'umuhondo, abandi bambaye imikenyero zifite amabara g'umweru n'udupira tw'icatsi, bari no gukoma ingoma, bambaye n'udutambaro tw'umweru, bafite n'uduti dutoya mu ntoki zabo.

Igiti cy'umuvumu gifite imizi myinshi cane, camezi gifite ibindi biti hejuru bibiri bigiye bitandukanye. Hariho utundi duti tw'umuvumu dutoya: Kamwe kari hasi ku icyo giti, akandi kari mo hagati y'aho ibyo biti bibiri bigiye gutandukanira. Iyo mizi irajijishije ntiwabasha gusobanukirwa uko imeze.

Igikoresho citwa inkongoro cakoreshwaga cyera .Cyiriho umufuniko waco. Giteretse ahantu ku gikuta gifite irangi ry'umuhondo .Ibumoso bw'iyo nkongoro hariho akantu k'umukara ,hejuru yaho hariho akabaho.

Umusore wambaye ijire y'umuhondo hariho amagambo yandikishijwe ibara ry'umweru n'ipantaro ya burefonse, inkweto za bodaboda yicaye ku ntebe y'imigano , hakurya ye hariyo inzu ifite urugi rw'icatsi n'gakoresho bifashisha bagiye gufotora umuntu.

Umugore wambaye igitenge kirimo amabara gatandukanye g'umutuku na gashokora ari kuboha igiseke yavanze amabara gatandukanye agapiki nag'ubururu mu rushinge harimo ubudodo n'utwatsi akoresha yambaye umupira g'umweru yicaye ku ntebe y'urubaho iteretse hasi.

Umuntu utagaragara neza ufite intoki zisa n'izabazungu, afite itazi mu ntoki mu gihe cya nijoro kuko urumuri rumurika rutamugaragaza neza.

Isekuro yamenetse hasi no hejuru irimo umuhini wayo basekurisha, hirya hariho isahani icuritse ku ntebe ndetse n'umusambi na wo ucuritse ku ntebe ,mu nzu ifunguye umuryango utari kurebeka neza.

Ababyinnyi bambaye imyenda babyinanaga harimo urugara ndetse na mayogi, hari n'uwambaye agapira k'ibara ry'umukara, n'abakobwa bari gukoma amashyi bambaye imyenda y'amabara y'umweru. Hirya yabo hari agashamba k'ibiti by'inturusu.

Akagoma gatoya gahambiriweho imirisho ibiri y'ibiti. Gateretse hasi hirya yaho hariyo igikuta ca tiripuregisi, hagaragara nkaho harimo urumuri.

Abagore bafite imikubuzo ya kijyambere, bambaye udupfukamunwa, abakenyeye ibitenge, abandi biteye ibishora. Hakurya hari abagabo bafite copakupa, bari gukora amasuku muri jaride, bakata ibyatsi n'indabo.

Igihingwa c'amasaka gw'ibitete gateze，kiri kugaragara igice cyo hejuru gusa，harimo n'akandi gasaka kagaragara nk'aho kadafite impeke，ikirere kirakeye，kuko hari kuva izuba ryinshi.

Ibi bisabo bijishije n'imigozi miremire. Munsi yabyo harimo inkongoro z'amabara ga kake, zifite n'udufuniko tugiye dushushanyijeho, byegetse ku kintu kimeze nk'ikirago kuko gifite ingoyi.

Inka zo mu bwoko bw'inyambo ziteze amahembe bazambitse urugori mu ruhanga abagabo bambaye imikenyero zifite amabara g'umweru nag' umukara n'ingofero z'amabara g'umukara bafite n'inkoni mu ndoki.

Umuvure guririmo ishinge n'amazi bakamuriramo umutobe n'urwagwa bakoresheje imineke guteretse hasi gwegeranye n'ibyatsi byumye ndetse n'ibindi byatsi bikiri bibisi.

Igikoresho bakoresha mu gihe bakora umuriro w' amashanyarazi ca turonofivisi ,gifite amabara g'umuhondo cye giteretse ku hasi kuri sima.

Ipensi y'amabara g'umukara n'ag'umutuku ifite amaguru g'ibyuma yifashishwa mu gukora umuriro gw'amashanyarazi no gukora ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga.

Porojegiteri ya episoni ifite imigozi itatu zizingazinze n'umwe ufite amenyo atatu, iteretse ku meza.

Inzu za etaje z'umudugudu w'icitegererezo haciyemo kaburimbo, hagati yazo na jaride itarakura neza ikigaragaramo utwatsi dutoya, ndetse n'ibitaka byinshi, zubakishijwe amatafari gahiye.

Ikigo c'amashuri y'abana ba garidiyeni gifite amabati g'icatsi, cubakishijwe amatafari gahiye n'imiryango zifite amabara g'umuhondo n'inkingi z'amabara g' umutuku nag'icatsi ,hariho akajaride katari kakura neza gafite ibiti by'imikindo.

Igishushanyo mbonera c'urusengero gubakishije amatafari gahiye, rufite n'inkingi z'umweru n'amabati ga maharare n'akantu k'imbere karekare, hariho n'urubaraza rufite ibara ry'umweru n'amakaro g'umukara n'umweru.

Inzu yubakishijwe amabati ga kirebeye n'amatafari g'umutuku hariho amadarapo g'urwanda n'agapolisi imbere yayo hari jaride ifite ibyatsi by'icatsi haparitse imodoka iri kugaragara igihande kimwe inyuma yayo hariho ibiti birebire

Abagabo batatu n'umugore umwe, bafite amabaje mu majosi yabo umugore witeze ingofero, imbere yabo hari ikarito n'imifuka, hari imodoka biragaragara ko harimo ibikoresho bigiye bitandukanye, bari ku rubaraza rw'inzu y'amadirishya afite ibara ry'icyatsi n'ibirahuri imbere y'inkingi.

Abakobwa n'abahungu bahagaze imbere y'inyubako ifite amabati g'umugongo w'icyatsi, n'inzugi zikinguye. Harimo abambaye amakoti y'umukara n'abambaye amakanzu g'umutuku n'abandi bafite udukapu ku rutugu.

Inyubako z'amashuri gwubakishijwe amatafari gahiye, gafite imireko z'ubururu n'inkingi z'umweru, gafite akazitiro k'ubururu, kegeranye n'umuhanda gw'igitaka hirya hahagaze umuntu ufite agakapu k'umukara.

Inyubako ndende ya etaje yubakishijwe amatafari gahiye ，inkingi ziri mu mabara g'umweru n'akarindabasazi kari mu mabara g'umweru， hejuru hari akantu kubakishwa amabati g'amategura， hasi ku mbuga， ni ibitaka.

Icapa co mu muhanda kiri mu shusho y'umuzenguruko canditswemo mirongo ine co mu mabara g'umutuku, n'ag'umweru n'ag'umukara, hirya hahagaze umudaso wambaye imyenda zifite amabara g'catsi, hirya hari agashamba karimo ibiti by'icatsi.

Inzu mberabyombi irimo gukorerwamo ibizamini. Abarimo bambaye udupfukamunwa abagabo n'abagore, abasore n'inkumi. Harimo na za mudasobwa ziteretse ku meza, n'utundi twapa twanditseho winingi sivi.

Inyubako ya paruwasi Regina Pacis yubakishijwe amatafari gahiye n'amadirisha asize irangi ry'ubururu n'agandi gafite ibara ry'umweru n'akantu k'antene k'umurindankuba hejuru n'inzu n'ibikuta bisizwe ibara ry'umweru n'umuhondo.

Umusore uri ku gare rifite umusego gw'icatsi, inyuma ye hariyo uruja n'uruza rw'abayisilamu gwerekeza ku musigiti gufite ibara ry'umweru n'ibara rija gusa n'umuhondo hejuru hari ikirere gifite ibara ry'umweru n'ubururu juru, hariho insinga z'amashanyarazi.

Inzu y'imiryango z'ubururu n'ibirahure bya fume, ifite igikuta c'amabara g'umuhondo n'inkingi z'amabara ya bulowuni ,ifite ikibaraza c'amabati gihinnye.

Inyubako ndende yubakishijwe amatafari gahiye gumutuku amadirisha gafite ibirahure byijimye sikariye amasikariye gubakishijwe amabuye ndetse n'amavaze gasize amabara g'ibendera ry'igihugu harimo n'imigano.

Inyubako ndende ifite etaje enye. Imbere yaho hari imodoka itagaragara yose yanditseho "Ibiro by'Akarere ka Burera mu kinyarwanda. Ifite ibirahuri byinshi n'ahantu ho guparika imodoka, ifite agakuta gatoya k'amabuye.

Uruja n'uruza rw'abantu begereye kuri kaburimbo, harimo umugore wikoreye wambaye umupira g'umweru n'abagabo begamiye ku modoka ifite irangi ry'umweru ya dayihatsu, yegereye amazu gariho icapa ca sikoro n'inkingi z'umutuku.

Umuhanda wa kaburimbo itanoze neza uganaho kuri sitasiyo. Hariyo amazu afite amadirishya, imbere haparitse imodoka ,hari nahantu hari imigano mitoya. Hari n'umuntu uri gukora amasuku, hirya y'aho hari undi muntu wicaye ku ntebe w'umusekirite.

Inzu ifite amabati ashaje, ifite akabaraza gafite inkingi itatu n'amadirisha. Ifite n'irangi ry'umweru, hari yo igipangu cyashaje, inyuma yayo har iyo inzu, imbere ya yo hari yo ikibuga gifite ibyatsi byumye.

Umudugudu urimo amazu meza g'amabati ga dumuzasi, agumweruru n'ag'umutuku. Hirya y'aho hari izindi nzu zigerekeranyije amabati g'umutuku umusozi mwiza cane urimo ibiti byiza birimo inturusu nziza.

Inyubako ya Kiliziya yubakishijwe amatafari gahiye, isakajwe amabati g'umutuku n'inzu ntoya iriho amategura, kakozwe mu rwondo, akapa kari imbere yayo kanditseho Jiyesi kampanga, gafite ibara ry'icatsi n'inkingi zikozwe mu byuma.

Ikiraro cyubatse mu kirere gifite inkingi z'amabara g'ubururu, agicatsi n'agumuhondo hirya y'aho hari abantu bahagaze ,cyubatse ku biti by'imbaho.

Umuhanda gwa kaburimbo, hagati mu nyubako ndende yubakishijwe amatafari gahiye, inkuta zisizwe amabara g'umuhondo, amapoto gariho amatara go mu muhanda, umuntu wambaye umupira g'umuhondo utwaye igare rifite amapine matoya cane.

Imodoka ikoreshwa mu gutsindagira umuhanda，ifite amabara g'umuhondo n'ag'umukara， amapine，gayo ni manini cane，inyuma hari indi modoka ifite amapine gayo matoya， n'igitanki c'amabara g'umweru.

Inyubako nziza cane ifite irangi ry'umweru, harimo amasikariye ariho amapave y'ibyatsi. Hirya yaho hari inzu yubururu ya cadesitara iruhande rw'iburyo. Ndetse n'ibumoso hari indi ya cadasiteri ifite nayo irangi amabati y'irangi ry'ubururu n'icirere ciza cererutse c'umweru.

Inyubako ndende yubakishijwe amatafari gahiye, n'amabati go mu bwoko bwa Dumuzasi, g'umutuku. Ifite umusaraba guri ku nzu n'amadirishya g'ibirahure g'amabara gatandukanye, n'uruzitiro rwubakishije ibyuma by'amabara gatandukanye.

umugore uhagaze imbere y'abandi bantu ufashe mikorofone y'umugozi, hirya ye hariyo bafure uri kumwe n'umugabo wambaye ikoti rya shokora mo imbere harimo ishati afite ni ubwanwa bw'imvi, yambaye n'ingofero, inyuma y'uwo mugore hari abicaye ndetse n'abandi bahagaze n'inzu iri hirya yabo.

Umugabo ufashe indangururamajwi, batwikiye umutaka, wambaye ikote rya kositimu n'ishati y'umweru ari kumwe n'abandi bagabo n'abagore, inyuma ye biteze ibitambaro.

Ihuriro ry'abantu benshi batondetse ku murongo umwe, bahuriye ku nzu y'umurenge, ifite amabati gakebeye n'amadirisha garimo amarido, ndetse isize irangi ry'umweru harimo n'abicaye ku ntebe z'umweru, abandi bicaye ku ntebe z'ibiti.

Abantu benshi bari mu nama, n'umugabo ufite mikorofone, wambaye umupira ufite ingofero, n'undi wambaye igishura gifite umupira ufite ibara ry'umutuku, umugabo wicaye ku ntebe, hrya hariyo ibiti bifite amababi yicyatsi, n'umugore wambaye mwamine, witeze n'igitenge gifite ibara ry'umukara.

Imodoka ifite amapine gakoze ku muhanda gwa kaburimbo, agandi gadakoze ku muhanda. Inyuma ifite igikontineri cubatse mu mabara g'umutuku.

Umugore n'umugabo bafite amagare mu byerekezo bitandukanye. Ku mbuga y'amapave g'isima, amagare gafite amabara g'icyatsi n'ag'umuhondo gariho amadarapo g'u Rwanda. Hirya yabo hari uruzitiro rukoze mu byuma bya metarike.

Aho abanyamagare baparitse, bamwe bahagaze ku magare yabo, abandi bari kuyasunika bambaye imipira y'amaboko magufi, hirya hari inyubako ifite amadirishya y'ibirahure, n'imodoka ya kwasiteri.

Inyubako ya Karasike Pabu ifite amakaro g'umweru, iriho icapa c'uruziga ca Sikoro, imbere yaho hari icapa co mu muhanda kitari kugaragara n'umugabo wambaye boti z'icatsi, wikoreye n'umufuka g'umweru n'umupira g'umukara.

Iyi ngezi irimo ubwato bubiri, bumwe bwanditseho Isiringi, ubundi bwanditse ho Ononesejame. Harimo abantu, abagabo bambaye ingofero zitandukanye ndetse n'ibikoresho by'uburobyi. Harimo ibirago n'imifuka na moteri.

Uruja n'uruza rw'abantu bahagaze muri gare, haparitse imodoka zanditsweho fiderite, abantu benshi bambaye ingofero hirya hariho n'icapa gifite ibara ry'umuhondo n'izindi modoka zifite ibara ry'uburu juru.

Umumotari wambaye imyenda zisa hasi no hejuru, wambaye n'ijire ry'umutuku na kasike y'umutuku, hirya ye hari imodoka y'ibara ry'umweru, yicayemo abantu, umwe ari we uri kugaragara, ndetse hirya hari n'umutaka gwa emutiyeni, gufite ibara ry'umuhondo.

Uruja n'uruza rw'imodoka z'ubwoko butandukanye, zifite amabara gatandukanye ag'umweru, ag'ubururu zitwikije n'amashitingi gatandukanye ag'umutuku n'ag'umweru, hirya y'aho hari inzu ya etaje ifite amadirisha n'ibirahure bya fime.

Abanyonzi bafite amagare bafite intebe z'imisego z'umutuku. Bambaye ingofero, bahagaze imbere y'urukuta rw'amatafari gahiye, hagati harimo ikingi n'ipoto ry'amashanyarazi hariho n'insinga.

Abagabo n'abagore bahagaze imbere y'imodoka, harimo abambaye amakositimu y'umukara ay'ubururu n'ayandi afite amabara agiye atandukanye, n'abandi bambaye amashati, umugore wambaye ikanzu y'umutuku, n'undi wambaye ikanzu y'umukara afite n'agasakoshi, imodoka ziracyafunze.

Umugabo wambaye inkweto z'umuhondo, n'ipantaro y'umukara, n'ikoti ry'umukara, bicaye kuri moto ifite umwenda g'umukara ku ntebe y'abagenzi, na rasoro z'umutuku. Moto iri ku muhanda gw'ibitaka, gutari kaburimbo

Imodoka nyinshi zitagaragaza amapine zo mu bwoko bwa litiko, imbere yaho hahagaze abantu uwambaye umupira w'umweru, ishati y'umukara harimo nuwambaye agapfukamunwa, hakurya yaho hagaragara inzu ifite amadirisha y'ibirahure bya fime.

Aha pari kwa imodoka zitwara ibiremereye zo mu bwoko bwasudaniya zifite amapine gatari matoya z'amabara gagiye gatandukanye agumutuku ,agubumururu agacasi n'agumukara, amadirishya gazo gafite ibirahuri byemera kureba imbere.

Umunyeshuri wambaye inifomo, umupira gw'umukara gwandikishijeho amabara g'umweru, ipantaro y'ubururu n'amasogisi g' umukara n'inkweto z'umuhondo wicaye ku gare, wegereye ku ishuri rifite igikuta risize amabara g'umweru n'ag' umuhondo.

Abanyonzi bambaye amajire g'umuhondo, bari ku magare gafite imisego. Iz'umweru, n'agandi g'imituku n'umuhondo. nta g'icatsi bambaye n'ingofero. Imbere hari umutaka g'umuhondo gwa Emutiyeni, hirya hari amazu gubakishijwe amategura.

Imodoka nyinshi zitandukanye, ziparitse muri gare harimo iy'amabara g'umuhondo, na tereviziyo z'umukara, amapine gari kugaragara ni abiri indi hirya ihetse kontineri, yo mu bwoko bw'umutuku.

Imodoka ziri mu byerekezo bitandukanye, harimo n'abanyamaguru, ndetse na moto izitwaye abantu n'izidatwaye abantu, abamotari bambaye amajiri ya MTN, hakurya hariyo icyapa cy'umuhondo, hariho ibiti by'icyatsi, n'amazu ageretse, n'akapa gato ka Kanari purisi.

Abakobwa bambaye amasengeri g'umuhondo, na majipo g'umweru, n'inkweto zitandukanye. Bambaye n'ingofero z'umweru, bafite utukoresho bakoresha bakina tenisi. Mu kibuga cya tenisi hirya yabo hari amabendera y'ibihugu bigiye bitandukanye.

Ingeri z'abantu batandukanye: abagabo, abagore abasore n'inkumi, bigaragara ko bari muri siporo rusange mu Mujyi wa Kigali. Hariho ibyapa byo kwamamaza bitandukanye: Emutiyene, Arabisi, icyapa kigaragaza ikirango cya polisi, jibu, ico, muri Umujyi wa Kigali, bigaragara ko ara b'i.

Uruja n'uruza rw'abantu benshi bateraniye ahantu hamwe .Mu ijana n'umunani n' ijana n' icenda harimo umwe ufite ikirango c'idarapo ry'u Rwanda rinini rigaragara n'abambaye imipira y'icatsi. Harimo n'intebe z'Icatsi n'imipira y'ubururu.

Abantu bakinaga umukino gw'amagare bari mumuhanda mu masiganwa. Bafite amagare gafite imipine zitandukanye, n'imyenda bambaye zifite amabara gatandukanye. Hirya yabo hari imisozi myiza cane.

Abakinnyi babiri ba basiketi bari mu makipe gatandukanye bambaye n'amajezi gatandukanye g'umukara nag'umweru hirya hagaragaraho inyuguti zanditse ngo henisi no hasi hari icapa ca canari purizi n'umusifuzi wambaye agapira k'umuhondo n'ipantaro yumukara ufashe n'ifirimbi mu kanwa.

Umukinnyi wa tenisi wambaye amasogisi g'umukara n'inkweto za siporo, agasengeri n'ikabutura y'icatsi uri mu kibuga ca tenisi, hirya hariyo igikuta ca senyenge.

Ihuriro ry'abantu benshi bicaye muri sitade bafite amadarapo g'igihugu cu rwanda harimo abicaye bambaye imipira z'amabara g'icatsi n'izamabara g'ubururu.

Abakinnyi ba Tenisi bambaye imyenda bakinana z'amabara gatandukanye, bari mu kibuga bakiniramo gifite imironko z'umweru, n'udukoresho bakoresha bakina Tenisi n'agapira ka Tenisi.

Umukinnyi w'umukobwa wambaye imyenda za siporo z'amabara g'umutuku n'umweru, ukina umukino wo kwiruka. Yasimbukiye hagati y'abantu babiri bambaye imyenda z'amabara g'umukara, hirya ye hari ikibuga kirimo ibyatsi by'icatsi kibisi, n'uruja n'uruza rw'abantu bahagaze mu matente g'umweru.

Imipira itanu ya basikete iriho ikirango ca Nayike, hirya hari abakinnyi bicaye ku masikariye bambaye inkweto z'umukara, amasogisi y'umweru, imipira ya oranje, n'ingofero bamwe muri bo. Hirya yabo hari uruzitiro rwa senyenge hari n'abandi batambaye inifomo cyangwa se imyenda mpuzankano.

Itsinda ry'abantu bari muri siporo bambaye imyenda za siporo mu mabara gatandukanye, ag'icatsi, ag'ubururu n'ag'umweru, bari gukora pompaje n'amaboko gari hejuru, hirya yabo hari agashyamba karimo inturusu n'imikindo n'amapoto y'amatara go ku muhanda.

Ababyinnyi b'abakobwa n'abahungu bambaye imyenda z'umukara, bafite n'amayogi. Harimo n'abandi bari gukoma ingoma, bambaye amashati g'umweru. Abakobwa bambaye imikenyero zifite ibara ry'umuhondo n'ibara ry'icatsi. Inyuma y'aho hariyo utwapa twa visite Rwanda.

Umwana wambaye inkweto za siporo n'umupira w'umweru n'umukara, ufasha akantu bakinisha siporo mu ntoki, inyuma ye hari igikuta c'amabuye n'inzu iri kugaragara idirisha gusa, imbere ya yo hari ingunguru.

Abakinnyi ba voreboro bambaye amajezi g'umweru na g'umukara, n'abandi bambaye amagezi g'umweru na g'umutuku, hirya yaho hari abafana.

Sitade igaragara uruhande rumwe rwo ku izamu y'ubwatsi bw'icatsi, irimo imirongo z'umweru hirya y'aho hari uduti nudu Shitingi.

Ikipe ya Reyo siporo yambaye amajezi g'ubururu n'umweru, bari gukina na Aperi yambaye amajezi g'umukara n'umweru, muri sitade ifite ibirango by'ubururu n'iby'umweru, mukibuga cy'ibyatsi bibisi harimo akaronko k'ubururu.

Abagabo n'abagore bari muri siporo. Bambaye imipira ifite amabara g'umuhondo n'ag'umweru, n'inkweto za siporo. Inyuma yaho, sitade hagaragara igihande gifite amabara g'umuka g'ubururu n'ag'umuhondo, ndetse n'icapa ca viziti Rwanda.

Abakinnyi bakinaga umukino gwa voreboro bari gukinira ku mupira gw'umuhondo n'ubururu bambaye imyenda zitandukanye, ku kibuga cubakishijwe isima gusa, n'imirongo ifite amabara g'umweru. Umusifuzi ahagaze ku ntebe zubabakishijwe ibiti.

Abakinnyi b'abakobwa ba basikete bambaye amajezi g'icatsi gandikishijweho nomero z'umuhondo ,bari gukina vole k'umupira gufite amabara g'umuhondo n'ag'ubururu hirya hari intebe ziri mu mabara y'ibendera ry'igihugu c'u Rwanda ,ag'umuhondo ,ag'icatsi ,n'ag'ubururu.

Ibiti bine biriho amadarapo y'igihugu cy'u Rwanda. Rimwe muri ryo ntiriri kugaragara neza. Hirya y'aho hariho ibiti, hino hariho amatente. No hakuryaho hariho ibiti gifite amababi yumye n'ikindi giti kiri hejuru kitari kugaragara neza.

Abagore n'abagabo bambaye imyenda z'amabara gatandukanye g'umukara nag'ubururu, bari kwishimira igikombe batwaye, bambaye n'imidari ifite amabara g'umuhondo nag'ubururu, inyuma yabo hariho icapa cyerekana ubusitani n'imisozi miremire ihinzemo icyayi.

Abakinnyi b'umukino gwa basikete bambaye amajezi g'ubururu gandikishijwemo ibara ry'umuhondo, abandi bambaye amajezi ga oranje garirimo n'icatsi bandikishijweho umweru, hirya hari intebe z'ubururu n'iz'umuhondo n'iz'icatsi, n'abantu bicaye ku ntebe.

Abakinnyi babiri b'umupira w'amaguru bambaye imyenda y'umweru, harimo uwambaye nimero irindwi na nimero makumyabiri nine, bari inyuma y'umunyezamu bishimira igitego bari bamaze gutsinda, harimo uwazamuye urutoki hejuru yishimye cane.

Umukinnyi wa hendibolo ufite umupira g'umweru n'ubururu , mu kuboko kw'iburyo ashaka gutera wambaye jezi ya mu mabara g'ikigina na supuresi hirya ye hari imbuga ifite amabara y'umuhondo na'ubururu n'inkingi y'amabara g'umweru n'umutuku.

Umukobwa usutamye, wambaye isengeri y'umukara, n'ikabutura y'umukara, wambaye n'inkweto za superesi, ufashe umupira, gufite ibara ry'umuhondo. Hirya ye, hari umugabo wambaye amarinete, n'umupira, gufiti ibara ry'umweru, n'abandi bicaye mu ntebe z'umukara, n'iz'umuhondo

Abantu bari muri sitade bishimye cane bambaye imipira zifite amabara g'umweru, agicatsi nag'umutuku n'ingofero z'amabara g'umukara inyuma hari abandi bambaye imipira z'umweru mu ntebe z'amabara g'umuhondo nagica.

Abagore n'abagabo bahagaze bafashe ibendera ry'igihugu c'u rwanda riri mu mabara g'ubururu agi'icyatsi n'ag'umuhondo bambaye udupira tw'icatsi n'amapantaro g'umukara mu nzu ifite ibikuta by'amabara g'umweru hariho n'imitako n'urugi rw'imbaho za ribuyu

Agahanda g'abanyamaguru karimo amapave g'isima kegeranye n'ahantu hari ibyatsi by'umuhondo n'icatsi mu butaka burimo udutafari ku'umutuku.

Umuhanda w'igitaka, izuba riri kuva ariko hariho n'ibihu, inzu yubakishijwe amatafari gahiye ifite, amabati atari kugaragara neza n'inkingi z'ibyuma.

Abantu bari ku gare umwe uryicayeho undi ahahagaze, hirya yabo hari amazu gubakishijwe amakaro gafite amabara g'umweru, imiryango z'ago mazu ni icatsi n'agandi g'ubururu ku muhanda gw'igitaka, n'undi muntu uhagaze uri kugenda.

Umuhanda w'igitaka, urimo utubuye duto, hari igipangu cy' amatafari cyegeranye n'akazitoro tw'uturabo tumwe tutayanga, hari urundi ruzitiro, hirya yaho hariyo amazu atabasha kugaragara.

Abantu bahagaze ku kayira k'abanyamaguru kegereye kaburimbo, harimo uwambaye bote, n'abagabo begeranye n'amagare, imbere ya bo hari ipoto itari kugaragaraho ahaja insinga, bahagaze ku ma pave, hirya ya bo hariho umutaka gwa emutiyene.